Icyumba cy'inama kiri gukorerwamo inama ihuza abayobozi, barimo kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Umupolisi ari gutanga ikiganiro agiha abaturage, baramukurikiye, barikumva neza ibyo ari kubabwira, ari kubaha impanuro zijyanye nuko bagomba kwitwara, kugira ngo umutekano wabo ushobore gukomeza kuba mwiza aho batuye.

Urwego rwa polisi rukorera mu mazi, ruri kugerageza kurohamura icyarohamye rwifashishije ubwato bwabugenewe mu gukora uwo murimo.

Urwego rwa polisi ikorera mu muhanda, aho rurimo kugenzura imodoka niba zakurikije amabwiriza yose, asabwa n'ibinyabiziga mu muhanda.

Intore zibyina imbyino gakondo y'umuco nyarwanda zishimye. Zisusurutsa ibirori abantu bakishima bakanezerwa.

Inka nyinshi ziri mu moko atandukanye, inyambo ndetse n'izindi, aho ziri ku kibumbiro zinywa amazi meza kugira ngo zishobore kugira ubuzima bwiza.

Imugabo ukora umurimo wo kubabaza, aho arikubaza udusekuru dutoya, twifashishwa mu rugo, mu gusekura nka tungurusumu, ndetse n'izindi mboga zitandukanye kugirango bitworohere kuzikoresha.

Ingorofani ni igikoresho bakunze gukoresha cyane cyane mu bwubatsi, ndetse no gutwara ibintu ubivana ahantu ubijyana ahandi mu buryo bworoshye, nk'umucanga, amatafari, ndetse n'ibindi bikoresho bifuza gutwara.

Inkangara nziza cyane kandi nini, ikunze kugaragara cyane mu muco nyarwanda, aho abanyarwanda tuyifashisha tubikamo, yaba imyaka, tukayifashisha mu kugemurira abantu n'ibiryo ndetse, kandi tukayifashisha cyane nk'umutako, kuko igaragara neza.

Umugabo wambaye imyambaro y'umuco nyarwanda rwo hambere, ufite amasunzu meza, yagaragazaga abanyarwanda bo ku ngoma ya cyami.

Abagabo barimo gucuranga bifashishije ibikoresho gakondo by'umuco nyarwanda， ari byo amakondera， byakundaga gukoreshwa mu Rwanda rwo hambere， mu gihe barimo basusurutsa ibirori.

Umukobwa uri kugosora ibishyimbo yicaye ku ibuye, yifashishije igikoresho intara cyangwag se inkoko, idufasha kugosora ibyo bishyimbo.

Umuvure ukoze mu giti ,mu muco Nyarwanda twifashisha turimo gukama ibitoki kugirango tubone umutobe, kenshi twawusangaga mu bihe bya kera ubungubu ni hakeya twawusanga.

Ingobyi, igikoresho cya kera cyifashishwaga igihe umugeni ajyanywe ku mugabo we, ndetse na n'ubu kikaba kikifashishwa mu bice bimwe na bimwe by'ibyaro, mu gihe bajyanye umurwayi kwa muganga.

Umugabo wo mu Rwanda rwo hambere, ufite amasunzu, ufite amasoso, ufite mu ntoki ze inkono y'itabi yifashishwaga mu Rwanda rwo hambere, ndetse nanubu hari n'abakiyikoresha.

Ibyibo twifashisha mu muco nyarwanda wo kugemuriramo abantu ibyo kurya, tukabyifashisha nk'imitako, ku babicuruza bigatanga amafaranga, ndetse bikanatuma ahantu hasa neza, mu gihe twabikoresheje nk'umutako.

Umukobwa mwiza cyane uri kubyina imbyino gakondo y'umuco nyarwanda, aho abyina aseka, akabyina yifashishije igiseke, nacyo gituma agaragara neza mubyo ari kubyina.

Agacuma nako kari mu bikoresho nyarwanda, twifashisha iyo turi kunywa umusururu, urwagwa ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, tukakanyweramo twifashishije umuseke wako.

Inzu ndangamurage irimo ibikoresho bitandukanye harimo: ibisabo, ibyansi, umuvure, ibiseke, ndetse n'ibindi bitandukanye. Harimo umukobwa utwereka uburyo bafatamo igisabo barimo bacunda.

Inka iri mu bwoko bw'inyambo, ikunze kugaragara mu Rwanda ikurura bamukerarugendo bakaduhereza amadovize, ateza imbere igihugu cyacu ndetse umugabo uri kuyitaho uri kuyikorera amasuku.

Urusyo ndetse n'ingasire ibikoresho bifashishaga mu bihe by'u Rwanda rwo hambere, aho babyifashishaga basya amasaka, uburo, bashaka kubona ifu yo gukoramo umutsima.

Ivu cyangwa se itazi ni rimwe tubona iyo tumaze gucana mu ziko, aho turyifashisha mu gufumbira imirima yacu ndetse hari n'abaryifashisha mu gukora amamera, mu kwinika amasaka kugira ngo tuzayakuremo umusururu.

Ibiti biduha amahumbezi, umuyaga mwiza, umwuka mwiza. Hakabaho jaride nziza ituma ahantu hagaragara neza. Inzu ikeye ifite ubwiza, ituma umujyi ugaragara neza.

Uruzitiro rufite umuryango w'icyatsi kandi rwubakishije amabuye na beto, ku buryo rudashobora kugwa kuko rurakomeye cyane.

Ikiraro kidufasha kwambuka amazi, tuva mu gace tujya mu kandi, tukakifashisha mu kwambutsa ibinyabiziga imodoka, amagare ndetse n'abantu bagendesha amaguru.

Ikiliziya aho abakiristu Gatolika baza kwiyambaza Imana nyagasani, kugira ngo ibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi ,bigatuma babaho bumva bishimye, babaho bumva bafite amahoro ,bahawe na nyagasani Imana yabo.

Umuhanda w'umukara ugaragara neza, ukoze neza uteyeho indabo zituma uba mwiza, indabo zituma umujyi usa neza.

Ubusitani bwiza, buteyemo ibiti bitandukanye, ndetse n'indabo zituma ubwo busitani bugaragara neza.

Inzu y'urukiko rw'ibanze rwa Mukamira, yifashishwa mu kuburanisha abantu batuye muri ako gace.

Intebe, intebe zifashishwa n'abantu baba bagiye gushaka ubufasha runaka, mu gihe bategereje ko babuhabwa nko mu bitaro, mu mabanki ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, abantu bakenera ubufasha.

Inyubako nini nziza, ifite jaride ku ruhande, iteye amarangi meza ibengerana, ku buryo uyibonye abona ibereye ijisho.

Umuyobozi w'umugore ari mu nama y'abaturage, ari kubaganiriza ku ngingo zitandukanye, na bo bamuteze amatwi, kugira ngo bumvikane ibyo ari kubabwira.

Abayobozi batandukanye ndetse harimo n'inzego za polisi, urweko bwa gisirikare bidufasha gushaka umutekano mu gihugu cyacu.

Umuyobozi uri kuganira n'abaturage bishimye, abahereza inama z'uko bakwitwara mu mibereho yabo ya buri munsi.

Imodoka y'urugendo yifashishwa n'abantu, kugira ngo ibatware ibavane mu karere kamwe, cyangwa se ahantu hamwe bajya ahandi, aho abagenzi bari kuyinjiramo, kugira ngo buri wese imugeze aho agiye.

Umuhanda munini w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka ndetse n'amapikipiki atwaye abantu, ndetse uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitandukanye.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa litico, ikunze kwifashishwa mu gutwara abantu benshi icyarimwe, ikagenda yihuta kandi igatwara abantu neza.

Ubwato bunini butwara imizigo, butwara abantu bigafasha abantu mubucuruzi bwabo bwambukiranya amazi, bigatuma abantu batera imbere mu buryo butandukanye.

Umupira w'amaguru bakunze gukoresha cyane cyane bakina, ukaba utuma abantu bishimirana mugihe barimo bawukina.

Irushanwa ry'abakobwa barimo gukina umupira w'amaboko, ku ndimi z'amahanga bakunze kwita basiketi boru, bakaba bari kuwukina ubona ko buri wese ashaka gufata umupira.

Ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe， umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane， urubyiruko，abagore n'abagabo， bari gukora siporo ngororamubiri， kugira ngo bashobore kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo w'umuzungu uri gukina umukino w'amaboko mu rurimi rw'amahanga bakunze kwita tenisi, umukino ukunzwe cyane mu bato ndetse n'abakuru.